Ingabo z'igihugu ziraturinda, umutekano ukaba neza cyane, tukagenda amajoro, tukagenda amanywa, igihe cyose, aho turi hose, kubera umutekano mwiza cyane.

Ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Ntitugisirasira, ntitukigenda n'amaguru ntitukirirwa ku murenge. Tuyobowe neza, mu iterambere rirambye, mu gihugu cyacu cy'amahoro.

Amategeko y'umuhanda aturinda kugira impanuka, aturinda gukora ibyaha, tuyobowe n'abapolisi bacu baturindira umutekano.

Ubucuruzi bw'imodoka buduha amafaranga butubeshaho, bukabeshaho imiryango yacu, natwe tukinjiriza igihugu amafaranga, igihu nacyo kikakira imisoro kikubaka amashuri n'amavuriro.

Kugenda neza mu muhanda biturinda impanuka, umumotori akagenda yishimye, uwahetse akagira umutekano, yarenga ku mategeko icyuma kikamufotora atavuye aho ari.

Guteka kuri gaze birondera ibicanwa bigatuma ibiryo bisha neza bitagiyemo imyotsi, urukuta ntiruhinduka umukara tukarya ibiryo bimeze neza cyane.

umuco nyarwanda ntugacike. Waramutse iraguma. Gusuhuzanya bitera ibyishimo, bigatuma dusabana, maze igihugu cyacu kikarangwa n'amahoro ndetse n'umutekano.

Umutekano ni mwiza cyane, kubahiriza amabwiriza ni byiza cyane bituma igihugu gitera imbere, abanyarwanda bagatera imbere kandi bakibeshaho.

Kubaka ni byiza cyane biduha amafaranga tukiteza imbere, tugatunga imiryango tugatunga abana bacu, tukabarihira amashuri kubera kubaka neza.

Inama rusange mu muryango, ituma twikemurira ibibazo. Ituma twiteza imbere, tukora imihanda, imigenderano, ubuhahirane mu mudugudu wacu ukagenda neza cyane.

Inama zidukemurira ibibazo, inama zitugaragariza ibisubizo. Inama ziteza igihugu imbere, abagituye tukibeshaho tukagira imiyoborere myiza.

Guhurira hamwe ni byiza cyane, ku banyarwanda, bituma twungurana ibitekerezo, tukagirana inama, tugakemura ibibazo bitugomba, kandi tukiyubakira ibiraro biduhuza, kugira ubuhahirane bu ugende neza.

Kumva umuziki nyarwanda biradushimisha cyane, inanga ikaba agahebuzo iyo habaye ubukwe turishima ko ari umuco gakondo.

Intore zirashimishaga cyane; zirabyina zikaberwa, intore ziduhaga amafarang,a zikajya kurushanwa mu mahanga, bityo tukiteza imbere n'imiryango yacu igatera imbere.

Ubucuruzi bw'itabi budufitiye akamaro kanini cyane, buduteza imbere. Ubucuruzi bw'itabi buduha amafaranga, buduha ibyo kurya, tukubakamo amazu n'ibindi byinshi cyane.

Isekuru ni igikoresho gakondo, kidufitiye akamaro kanini cyane, basekuriramo isombe, basekuriramo imiti yo kunywa, basekuriramo imyaka ikaba neza kandi ikadutungira umubiri.

Ingobyi iheka abantu cyane cyane abarwayi. Ibageza kwa muganga bakabavura, ingobyi ni ikimenyetso cy'umuco wacu gakondo.

Kuvuza ingoma bituma twishima, tugasabana, bituma imiryango yacu ibaho neza, kubera biduha amafaranga tukiteza imbere, tugatunga tugatunganirwa.

Inanga igikoresho gakondo, inanga tuyikoresha mu myidagaduro, mu gucuranga, mu kubyina. Inanga iduhaha amafaranga igihe turi mu itorero.

Umuco wacu ntugacike bituma dusabana, tukabyina, tugakoresha ubukwe, tukishima, tukanezerwa, abana bacu bakareba na bo bakidagadura twese tugataha twishimye.

Intama idufitiye akamaro kanini cyane, intama iduha ifumbire, intama iduha amafaranga, tukagura imirima, tukagura isuka, tugahinga, tukiteza imbere.

Ibitebo biduha amafaranga, tukabicuruza, tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu. Ibitebo tubibikamo imyaka, tukabitwaza ifumbire, tukabikamo imyaka yacu.

Umuco gakondo utuma dusabana. Utuma twishima, mu mutwe hakaruhuka, ubuzima bwacu n'imitwe yacu igatekereza neza. Biduha amafaranga tukiteza imbere, tugatunga n'imiryango yacu.

Gucuranga biduha amafaranga. Iningiri ituma abantu bishima, igihe baririmba bagasabana. Ukabona amafaranga ugatunga umuryango kubera ko uri umuhanzi.

Ubusitani buduha amafaranga menshi cyane. Iyo abantu baje kwifotoza baduha amafaranga. Natwe twaba dushaka shaka kwifata neza, tukicara mu busitani tukabona akayaga keza cyane.

Kwiga ni byiza cyane bituma tumenya kwandika, kubara, kwigisha, guteranya mu kubara amafaranga, maze bigatuma twiteza imbere muri byose.

Ububoshyi bw'ibiseke ni umwuga gakondo. Buduteza imbere buduha amafaranga, ukikuriramo imyaka ugacuruza. Tukarihira amashuri abanyeshuri bacu natwe tukiteza imbere.

Ikondera n' igikoresho cy'umuziki tugikoresha turirimba bikatunezeza cyane. Ikondera riduha amafaranga tukibeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bw'amabati buduteza imbere. Amabati atuma tutanyagirwa, amabati atuma turyama heza, amabati aduha amafaranga tukiteza imbere, tukabaho neza.

Kubyina ni byiza cyane. Kubyina biradushimisha, bikatunezeza, bigasabanya imiryango, kubyina biduha amafaranga haba mu gihugu, haba hanze y'igihugu, tukiteza imbere.

Isogi ni imboga nziza cyane, ni umuti uvura indwara z'ubuhumekero, ziduha amafaranga, zikaturindira ubuzima bwacu, iyo tuziriye zifite ubuziranenge.

Umuco gakondo ni mwiza cyane utuma dusabana tukabyina, tukishima tukanezerwa. Kuvuza ingoma biduha amafaranga natwe tukishima tugashimisha n'abaturanyi.

Umuvure tuwukamiramo ibitoki, umuvure tuwinikamo amasaka, umuvure tuwuhogeramo inzoga, tuwukamiramo imineke, umuvure ni igikoresho cya kera bakamiragamo ibitoki.

Ubucuruzi bw'imitako buduha amafaranga, butubeshaho tukiteza imbere, tukagira ahantu neza haba hanze, no mu nzu hakagaragara neza.

Intore zituma twishima, zituma dusabana, tukabyina tukanezerwa. Kwidagadura biduha amafaranga tukiteza imbere abanyarwanda bishimye.

Kubyina biranezezaga cyane; bitumaga twishima, bitumaga dusabana, tukaruhuka mu mutwe, kandi tukishima, igihugu cyacu kikagira amahoro.

Kuboha ibiseke biduteza imbere, biduha amafaranga, tugatwaramo ibintu neza, tukagaragara neza. Twamara kubicuruza tukiteza imbere tukabaho neza mu mibereho yacu.

Ubucuruzi bw'ibikapu buduteza imbere cyane, buduha amafaranga tukiteza imbere tukagira ubuzima bwiza, bubeshaho imiryango yacu n'ababyeyi bacu.

Ibigega ni byiza cyane, duhunikamo ibishyimbo, ibigori, ibirayi, imyaka yacu ikamara igihe kinini itaboze kandi itangiritse.

Igisabo ni kiza cyane, igisabo kirazishwa nti kimanikwa, igisabo nti kigurishwa, igisabo ni kiza cyane.

Ubucuruzi bw'ibiseke buduha amafaranga, butuma twibeshaho tugatunga imiryango yacu tukagira ubuzima bwiza, abana bacu bakabaho banezerewe.

Ibitebo biduha amafaranga, tubibikamo imyaka, tubyikoreza ifumbire tugiye guhinga mu murima, tukabigurisha tukibeshaho mu mibereho yacu.

Ubumbyi buduteza imbere cyane tugakoresha ibikoresho gakondo, tukiteza imbere, buduha amafaranga, tugakora imitako tukayigurisha bakaduha amafaranga, twiteza imbere.

Ubukwe ni bwiza buhuza imiryango, buhuza abavandimwe, burashimisha, busabanyisha inshuti n'imiryango tukishima, tukanezerwa tugatanga abageni n'inka zikaza.

Mu bukwe butuma abantu basabana, buhuza imiryango, bakishima, bakanywa, bagasabana, bakidagadura.

Umuco gakondo ntubacike. Ibicuma ni byiza cyane, tubinywesha inzoga, tubinywesha umusuru, bigatuma dusabana, dusangira twishimye.

Imitako ituma ahantu hagaragara neza. Imitako iyo uyicuruje ubona amafaranga ukaguramo ibindi bikoresho ukeneye mu rugo, abana bakabaho neza, na we ugatunga ugatunganirwa.

Amahembe ni meza cyane adufitiye akamaro havamo imitako, imitako iduha amafaranga tukagurisha tukiteza imbere.

Gukina igisoro ni umukino gakondo ushimisha abantu, ufungura ubwenge, ugahuza abavandimwe, ugashimisha abawukina, nabawureba igihugu cyacu kikagira amahoro.

Ubucuruzi bw'ibikoresho gakondo buduha amafaranga menshi cyane. Imbehe iryoshya ibiryo, iryoshya agasosi, imbehe iyo uyicuruje iguha amafaranga ukaguramo ibindi bikoresho.

Ibikoresho gakondo bidufasha mu ndirimbo, mu myidagaduro, mu kubyina, mu gusabana n'abandi iyo tubicuruje, tukabigurisha, biduha amafaranga tukiteza imbere.

Gukina bituma dusabana gukina imikino gakondo ni akarusho. Basimbuka urukiramende, uwatsinzwe aba yarunereye uwatsinze aba ari intwari, twese tukishima tugaharanira kuba intwari.

Inka ziduha amafaranga, ziduha ifumbire, ziduha amata tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu n'abana bacu bagakura neza, igihugu cyacu kigatera imbere.

Imikubuzo ituma tugira isuku tugakubura. Ni igikoresho gakondo imikubuzo iduha amafaranga, tukayicuruza imiryango yacu ikabaho neza.

Kuririmba bituma dusabana, tukishima, tukanezerwa kandi bikaduha amafaranga tugatunga imiryango yacu ,tukibeshaho neza ,tukarihira n'abana amashuri.

Imyizerere y'abakurambere bacu bizeraga nyabyinshi, ariyo nyabingi itanga urubyaro itanga amahoro, itanga ibyishimo itanga ubutunzi mu kwizera kwabo.

Umuco gakondo uranga igihugu cyacu, utuma dusabana utuma tubaho neza, twiyibutsa ibya kera abana bacu bakagira umuco n'igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubucuruzi bw'inkongoro buduha amafaranga. Butuma twibeshaho tugatunga imiryango yacu, n'abavandimwe bacu bakabaho neza. Tuyweramo amata twishimye kandi tunezerewe.

Inkono ni nziza cyane, ni igikoresho gakondo, ziduha amafaranga. Tukaguramo ibyo dukeneye zigateka neza ibiryo, inyama, ugasanga bihumura neza, kandi bifite ubuziranenge.

Isekuru ni nziza cyane, ituma turya agasombe keza. Isekuru iduha amafaranga, tukayigurisha tuyisekuriramo umuti, imyaka, tukagira ubuzima bwiza n'ubuziranenge.

Kwidagadura ni byiza, bituma dusabana, bituma twishima, bikaduha amafaranga, tugatambagira igihugu cyacu, tubyina, duseka kandi tunezerewe n'imiryango yacu ikabaho neza.

Tereviziyo ituma tumenya ibiri kure, ituma tumenya amakuru hafi tukayamenyera ku gihe, tereviziyo ituma tureba ibiri kure n'ibiri hafi.

Amashanyarazi ni meza cyane atuma tugendana n'iterambere tukaba ahabona, amashanyarazi aduha amafaranga tukiteza imbere tugatunga imiryango.

Ubucuruzi bw'amashanyarazi ni bwiza cyane, butuma tuba ahabona, tugacana nijoro ukatuboneshereza, tugakora imirimo yacu tukabona amahoro.

Ubucuruzi mu bikoresho by'ubwubatsi bidufitiye akamaro kanini cyane, bituma twubaka neza, bituma tubona amafaranga tugatunga imiryango tukibeshaho neza.

Umuriro udufigiyeye akamaro kanini cyane. Utuma ducomeka imashini, utuma tubeta, tukabona ifu nziza, tukanywa igikoma, tukarya umutsima, tunezerewe cyane.

Gusenga bidufitiye akamaro. Bituma tugira umuco mwiza, tugasabana n'abavandimwe, kandi tukaganira n'Imana kugira ngo ubukirisitu bwacu butere imbere.

Inyoni zigira amabara meza cyane , inyoni ziririmba neza cyane , kuzisura biradushimisha, igihugu cyacu kigatera imbere , kandi natwe tukihesha agaciro.

Imihanda ni myiza cyane iduteza imbere, ituma imihahirane igenda neza cyane, ikoroshya ubwikorezi, imodoka, amagare bitwara imizigo mu buryo bworoheje.

Guhinga ni byiza bidutungira ubuzima, tukabona umusaruro mwinshi cyane. Tukibeshaho mu buzima bwa buri munsi, tukiteza imbere maze igihugu cyacu kigatera imbere.

Gusenga ni byiza bituma tuganira n'Imana, bituma tunezerwa, bituma tugira imico myiza, abana bacu bakabaho neza mu butuzo kandi batekanye bakunda Imana.

Amashuri ni meza, atuma tujijuka, atuma tumenya ubwenge. Amashuri atuma tubona amafaranga, akaduha akazi, tugahembwa, tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu.

Inyubako zigerekeranye zidufitiye akamaro kanini cyane. Twubaka amazu menshi mu butaka butoya cyane. Bikaduteza imbere, kubera ko ayo mazu menshi aduha amafaranga menshi mu gihe gitoya cyane.

Gusenga ni byiza cyane, biduhuza n'abavandimwe, bituma duhura n'Imana, tugasabana, tukihana ibyaha, tukaba abakirisitu, tugatunganira Imana.

Gusenga bituma tuganira, gusenga bituma dusabana, gusenga bitumaga tugira umuco mwiza tugakundana kandi tukubahana bamwe ku bandi.

Ubucuzi bw'intebe buduteza imbere, tukabona amafaranga tukiteza imbere, tukicara heza tukishyurira abana amashuri, tukubaka amazu meza bikadushimisha.

Ubusitani buduteza imbere cyane, butuma tubona amafaranga. Iyo tugiye kwifotorezaho dutanga amafaranga. Igihugu kikabona imisoro, kikubaka amashuri, amavuriro, n'ibiraro biduhuza turi guhahirana.

Ibendera ry'Igihugu cyacu rifite amabara atatu. Rifite akamaro kanini cyane, ritwereka aho inyubako za Leta ziri. Amashuri, amavuriro, imirenge, utugari n'ibindi. byinshi

Indabyo zituma duhumeka umwuka mwiza, turazicuruza zikaduha amafaranga, tuzifotorezamo tukabona ifoto nziza, indabyo ziduha amafaranga tukarihira abana, natwe tukifata neza kandi tukagaragara neza.

Inzu zigerekeranye zitubeshaho neza cyane, tubamo turi abantu benshi ku butaka butoya, tugacuruza turi benshi ku butaka butoya, tukinjiriza igihugu kandi tukabaho neza.

Gusenga bihuza n'Imana, gusenga bituma tubabarira abandi, gusenga bituma twiyitaho, gusenga biduha amafaranga igihe dutura amaturo n'igihugu kigatera imbere.

Gusenga ni byiza bituma tuganira n'Imana, kubatizwa badusukaho amazi tugakira icyaha k'inkomokongu, ni ikimenyetso cy'ukwemera.

Imihanda ituma duhahirana, ubucuruzi bukihuta, utwererane bukabaho neza, umutekano ukabaho mu gihugu.

Ubucuruzi bw'ubusitani butanga amafaranga, buduha akazi tugakora tukiteza imbere, tugatahana amafaranga. Tujyamo kwifotoza tugatanga amafaranga na bo bakiteza imbere, twese tukaba mu buzima bwiza.

Ubutabera mu gihugu ni inkingi y'iterambere. Ufite ikibazo arakibaza mu ruhame, bakamusobanurira bakagikemura. Akabana n'abandi anezerewe. Iyo ni yo nkingi y'iterambere.

Abanyarwanda twese twahawe ijambo, kwishira ukizana ni uburenganzira kuri buri wese, kuvuga irikuniga ukisanzura ukavuga ibibazo byawe, bigakemukira mu ruhame.

Inama idukemurira ibibazo tukabona ibisubizo , ntituniganwe ijambo, tukabaho neza mu midugudu yacu, ibibazo byacu bitunganye.

Igare riradutwara, igare rikaduha amafaranga, igare rikikorera imyaka, igare ni ryiza cyane. Igare ritugeza aho dushaka ku mafaranga makeya cyane.

Igare ni ryiza cyane, ritwikorerera imitwaro, rikadutwara ritugeza ahantu byihuse, riduha amafaranga, tukitunga, tukabeshaho n'imiryango yacu.

Imodoka zitwaraga abantu n'ibintu, abantu bakabona amafaranga, bakagura ibikoresho by'ubuhinzi, bagakoresha amamodoka, amamoto, bityo bakabaho neza mu buzima.

Indege zidufitiye akamaro kanini cyane, zituma twumva umunyenga, zidutwara mu kirere tukagenda dutekanye, tukagenda igihe gitoya tugiye urugendo runini cyane.

Igare riduha amafaranga, igare rituma twiteza imbere, tugatunga imiryango yacu. Igare riduha amafaranga, ridutwarira imitwaro, natwe tukagenda neza byihuse.

Ubucuruzi bw'imodoka buduteza imbere cyane, buduha amafaranga, butuma tugenda dutekanye, tukicara neza tukagera ahantu byihuse n'imitwaro yacu kandi tutavunitse.

Igare ridufitiye akamaro kanini cyane. Igare ririkorera rikikorera ibintu byinshi, igare ni ryiza. Igare riduha amafaranga tugatunga imiryango yacu natwe tukibeshaho.

Imodoka ituma twiteza imbere, dutwara abagenzi benshi bakaduha amafaranga, tukarihirira abanyeshuri amafaranga, natwe tukiteza imbere muri byose.

Ubucuruzi bwa moto buduha amafaranga, butunga imiryango yacu bukinjiriza igihugu amafaranga, tukagenda kuri moto ikatugeza aho dushaka, kandi mu gihe gitoya cyihuse.

Imodoka zitwaraga neza cyane, zituma twinjiza amafaranga tukabaho neza imiryango yacu, imodoka idutwara turi benshi n'imitwaro yacu tukagenda dutekanye.

Ubucuruzi bwa lifani bugira umumaro munini cyane, lifani idutwarira imitwaro lifani iduha ku mafaranga tugatera imbere, tugatunga imiryango yacu n'igihugu cyacu.

Igare ni ryiza cyane, ridufitiye akamaro kanini cyane, igare ryikorera imitwaro, riduha amafaranga, tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu, n'abana bacu.

Ubwikorezi bw'imodoka ni bwiza cyane butwara ibintu byinshi, kandi neza ukabigezaho mu gihe gitoya, tukunguka kandi tugasangira turi benshi.

Kwikorera biduteza imbere twikorera imitwaro bakaduha amafaranga, amafaranga twamara kuyabona tukajya kuyagura imyenda, ibikoresho byo mu nzu tukiyubakira n'amazu.

Amapikipiki ni meza cyane atuma twibeshaho, adutwara vuba kandi neza. Amapikipiki aduha amafaranga, tukabeshaho imiryango yacu n'abaturanyi bacu.

Ipikipiki ni nziza cyane. Idutwara neza, dutekanye, ikatugeza ahantu vuba kandi byihuse. Ituma tubona amafaranga, tukiteza imbere, tukagura imirima, tukariha amashuri y'abana.

Imbangukiragutabara iradufasha cyane, iradutabara itujyanira abarwayi kwa muganga, ikabagezayo byihuse, kandi neza nta mafaranga iguciye vuba vuba.

Ubwato ni bwiza cyane, butuma tugenda hejuru y'amazi, tukagenda neza tutanyagiwe kandi dutekanye, n'imitwaro yacutukayishyiramo neza twishimye.

Gutwara ipikipiki ni byiza cyane, bituma twibeshaho, bituma dutwara abantu tukabageza aho bashaka, kandi vuba bitunga imiryango yacu.

Imodoka itwara abantu n'ibintu, imodoka yakorera ibintu byinshi mu gihe gitoya, iduha amafaranga iyo tuyigurishije, iyo tuyikoreje imitwaro tukiteza imbere.

Ipikipiki ni nziza cyane, iduha amafaranga, iduha umunyenga, ikadutwara neza dutekanye, ikatugeza ahantu byihuse, aho dushaka kandi ku giciro kiza.

Umucanga tuwuvanga n'isima tukahavanga n'itaka tukabumba inkarakara tukagurisha tukabona amafaranga tukubaka inzu ikomeye.

Ipikipiki ni nziza cyane, ituma twibeshaho, iduha amafaranga, tugatunga imiryango yacu, igihugu cyacu kigatera imbere, cyinjiza imisoro.

Ubwato butuma tunyura mu mazi. Tukanyura hejuru y'amazi neza dufite umutekano. Ubwato buduha amafaranga tukiteza imbere, tukagura ibyo dukeneye tukibeshaho mu miryango yacu.

Ubucuruzi bw'imodoka ni bwiza cyane, imodoka zitwara abantu benshi cyane zikabageza kure mu gihe gitoya cyane, imodoka ziduha amafaranga tukiteza imbere igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubucuruzi bw'ama moto ni bwiza cyane buduha amafaranga iya dutwaye abagenzi tugatunga imiryango yacu natwe tukibeshaho, igihugu cyacu nacyo kikinjiza imisoro.

Kwidagadura ni byiza, sitade ihuza abantu benshi cyane ikinjiriza igihugu amafaranga, abahakinira na bo bakarebwa n'abantu benshi kandi bisanzuye neza.

Siporo ituma ubuzima bwacu bugenda neza, dutuma ingingo zacu zigororoka, itumaga dusabana tukiteza imbere. Siporo iduha amafaranga tugatunga imiryango yacu, imibereho yacu ikagenda neza.

Umukino wamagare uradushimisha cyane, utuma abantu basabana, abantu bishima, umukino w'amagare uduha amafaranga tukibeshaho mu buzima bwacu.

Kwidagadura ni ingenzi mu buzima, biruhura umutwe, bituma tunezerwa, bituma dutsura umubano, biduha amafaranga tukibeshaho.

Gukina biratunezeza, gukina bituma dusabana, gukina bituma turuhura umutwe, tukishima tukanezerwa, gukina biduha amafaranga tukibeshaho n'imiryango yacu.

Umukino w'amagare uradushimisha cyane , utuma dusabana n'abavandimwe , uduha amafaranga , ukatwubakira imiryango , tukagura imirima , tukibeshaho , tukiteza imbere muri byose.

Umupira w'amaguru ni mwiza cyane, utuma abantu basabana utuma abantu bishima, bikaduha amafaranga tukiteza imbere tukamenya igihugu cyose.

Kwidagadura ni byiza, bituma dusabana. Bituma twishima, tugatembera igihugu, tugahuza amakipe. Biduha amafaranga, tukiteza imbere. Igihugu cyacu kikabona amadovize.

Gukina ni byiza biduhahaga amafaranga, biratunezeza, bigatuma dusabana, bitumaga twishima, igihugu cyacu kigatera imbere mu mikino.

Gutsinda bitera ibyishimo. Gutsinda bituma uba icyamamare. Gutsinda bituma unezerwa, gutsinda bituma bakwemera, gutsinda bituma uba icyamamare mu gihugu.

Siporo iruhura umutwe, siporo ituma turuhuka, igatuma twishima, igatuma dusabana. N'Igihugu cyacu kigatera imbere, kikakira n'amafaranga menshi.

Imikino ituma twidagadura. Iduhuza n'abavandimwe, tugasabana tukishima cyane, imikino iduha amafaranga, tugateza imbere imiryango yacu, n'igihugu cyacu muri rusange.

Gukina bituma dusabana, tukidagadura, tukanezerwa. Gukina biduha amafaranga tukajya mu bihugu n'ibindi, tukibeshaho n'imiryango yacu.

Umupira utuma twidagadura, utuma twishima, tugasabana. Umupira uduha amafaranga; iyo tuwucuruje, baduha amafaranga, tukishima, tugatunga imiryango yacu.

Umukino w'amagare ni mwiza cyane urashimisha, uranezeza, uduha amafaranga, winjiriza igihugu imisoro, bityo tukubaka amashuri n'amavuriro.

Gukina umupira w'amaguru bituma dusabana uhuza impande nyinshi. Bitsura umubano hagati y'abavandimwe mu mashuri, mu gihugu bigatuma tubona amafaranga.

Imikino ituma dusabana, imikino ituma twishima. Imikino iduha amafaranga tukishima tukabeshaho imiryango yacu.

Kwidagadura ni byiza bitanga ubuzima bwiza bidutera imbaraga tukagira umubiri unoze, ukomeye imbaraga zacu n'igihugu cyacu kigatera imbere.

Kwidagaduro ni byiza cyane, bituma imibiri yacu ikora neza, bituma twiteza imbere, tugashimisha abatureba tukabona amafaranga, tugatunga imiryango yacu, tukaba dutekanye.

Umukino w'amagare urashimisha cyane, urebwa n'abantu benshi cyane, abawukina na bo bakabona amafaranga bagatunga imiryango yabo, igihugu na cyo kikinjiza imisoro ituma twubaka imihanda, amashuri n'amavuriro.

Gukina bituma twidagadura, bikadutera kwishima, bigakomeza imibiri yacu, bikaduha amafaranga, tukidagadura kandi tugasabana.

Kwidagadura ni byiza cyane, biduha amafaranga, bituma umuntu yishima arasabana n'abavandimwe, bituma twiteza imbere, tukabona amafaranga tugatembera igihugu henshi.

Imikino ituma twidagadura imikino ituma abantu dusabana, imikino iduha amafaranga, tukiteza imbere igihugu cyacu kigatera imbere.

Siporo ifite akamaro kanini mu buzima bwacu. Ituma twidagadura tugashimisha abantu, na twe tukishima ikaduha n'amafaranga tukiteza imbere.

Gukina bituma umutwe uruhuka, gukina bitumaga dusabana, tukinjiriza igihugu, natwe bikaduha amafaranga, tukishima tukanezerwa tukagira ubuzima bwiza.

Umukino w'amagare uradushimishaga cyane, umukino w'amagare uduhaga amafaranga, umukino w'amagare utumaga dusabana tugahuza umubano n'ibindi bihugu.

Umuririmbyi ahora anezerewe cyane, kuririmba biduha amafaranga bigatuma tubaho neza, bigatunga umuryango natwe bikaduteza imbere nk'Abanyarwanda muri rusange.

Kwidagadura ni byiza bituma twishima, kandi tugasabana tukagira ubuzima buzira umuze.

Umupira utuma abantu basabana bakishima, bakiteza imbere, bakabona amafaranga, mu mitwe yabo bakaruhuka, bagashimisha n'abantu.

Gukina biranezeza cyane imyidagaduro iruhura umutwe waba ukuze, waba uri umwana. Biduha amafaranga tukibeshaho tukagira ubuzima bwiza.

Ubucuruzi bw'imipira y'imyidagaduro ni bwiza cyane, buduha amafaranga, bukatubeshaho n'imiryango yacu, tukishima tukanezerwa.

Siporo ni ubuzima. Siporo ni ukubaho neza, tukidagadura, tugasabana, tukaruhura imibiri yacu, imitwe yacu igatekereza neza.

Kwidagadura ni byiza, bituma dusabana, biduha amafaranga, bigatsura umubano. Kwidagadura bituma twiteza imbere tukishima cyane.

Uubaka ku muhanda bituma abantu babana neza. Byoroshya ubuhahirane, itumanaho no kubana mu mahoro.